lbikoresho by'umwana wiga mu mashuri y'ikiburamwaka, harimo idenesi, ndetse hari ukuntu babifunga bikamera nk'akazu, iyo abibona bituma akurikira mwarimu neza.

Agasimba kitwa igihori. Kakaba kari ku kibabi kari kuguruka ndetse kandi kari kurya kanashuna kuri cya kibabi ndetse kandi karashashagirana, ni keza.

Ishuri ryigamo abana bakiri batoya n' abanyeshuri baba biga mu kiburamwaka; aho abana bajya kwiga bakigishwa amasomo y'abana nko kubyina, kuririmba ndetse n'utundi dukino.

Udukapu twiza dusa neza kamwe kasa n'umutuku akandi karasa n'umukara, dukozwe mubikoresho by'inka nk'uruhu kandi ni utw'abana bigana.

Igurudu nini y'umwana wiga mu kiburamwaka, arayiheka iyo agiye kwiga, hanyuma ikaba yamubikira igikoma cyangwa se ikintu cyo kunywa, cyanditseho, gishushanyijeho ikintu cy'igikoko.

Abana bakiri batoya b'ibitambambuga iyo bagiye ku ishuri bagenda bakinira mu muhanda, bakagenda bakina kuko ari yo nshingano zabo kandi bikaba byatuma igihe bakinira mu muhanda bagongwa.

Abana batoya bafite amasahani ariho ibiryo kandi bakaba bambaye impuzankano y'ishuri, bari kurya bakanakurikira ibintu biri imbere yabo, bari kumwe n'ababyeyi inyuma yabo hari abarimu.

Umwana mutoya w'uruhinja akaba yicaye. Umwana mwiza w'inzobe. Ari kurya ikintu ari gukinisha ndetse imbere ye harimo ibintu biri gukina na we akaba ari kubikinisha.

Abana batoya bari mu ishuri biga mu mwaka wa mbere w'ikiburamwaka kandi bakurikiye mwarimu ari kubigisha imibare, mirongo ine ndetse na makumyabiri.

Ibikinisho by'ibipupe, abana bakiri batoya bifashisha mu kwiga, ndetse n'ibipupe bimeze nk'inyoni biri guhindurana amabara, ndetse kandi bifite ubwiza butangaje abana babikunda kubi.

Abana biga mu kiburamwaka, biga ibice by'umubiri w'umuntu, bagahera bashushanya igice cy'umubiri w'umuntu, ijisho, umunwa, iminwa ndetse kandi n'ibindi byinshi bitandukanye kugeza ku mano n'ikirenge.

Abana bakiri batoya biga mu mashuri abanza, bicaye mu ishuri ndetse ku ntebe, bakurikiye umwarimu kubigisha bari kwiga umubare icumi.

Ibikoresho byo ku ishuri umunyeshuri yifashisha yiga, harimo ikararamu z'ibiti, amakaramu asanzwe, imikasi, amakayi ndetse kandi harimo n'uduconga amakereyo y'ibiti.

Ishuri ryigisha abana biga mu mashuri abanza akenshi iyo batangiye kwiga baba bafite ibyicundo bakiniraho ndetse kandi bakagira n'intebe bakoresha biga.

Abana batoya, umwe ari kureba hirya, undi ari kumutungira urutoki ngo arebe ahantu hari amazi. Ni abana batoya biga mu mashuri abanza ndetse hari n'imisozi.

Ikigo cy'amashuri gitatse neza gifite ubusitani bwiza ndetse kandi kikaba gifite n'amashuri afite amabati y'ubururu, gifite imiryango myiza cyane, kandi gikoreshwa mu kwiga. Abanyeshuri baba biteguye kwinjiramo bakiga.

Udukinisho dukoreshwa igihe abana bari kwiga nk'abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, bagenda bifashisha utuntu tugiye dutandukanye kugira ngo bamenye ubwenge bakavuga a,b n'izindi ngombajwi ndetse n'imibare bagenda biga.

Ikigo cy'amashuri cy'abana biga mu mashuri abanza, kirahamagarira abantu bose kuza kukiyigamo, kibabwira ngo kaze ku kigo cya Rusumo, ni abanyeshuri bigamo bakiri batoya.

Ishuri ribanza ry'abana batoya, rikaba rifite ubusitani bwiza ndetse rikaba ryubakishije amabati asa n'ubururu, inzugi zisa n'ubururu, rikaba riteye n'akarangi keza cyane.

Inzu y'igishushanyo yubatse neza, isa neza, ifite amabati y'umutuku n'amadirishya n'inzugi by'ubururu kandi ikaba ari igishushanyo bashushanyije kugira ngo kigishe abana biga mu mashuri abanza.

Imipira yo gukina, ibigurudumu, imigozi, ndetse n'utundi tuntu abana bagenda bakoresha, turi mu cyumba. Ni icyumba abana bakunze kwigiramo, ndetse kandi bakacyifashisha bagikiniramo imikino yabo.

Amakayi, amakaramu, amarate ndetse n'amakaramu y'ibiti n'imikasi n'utundi, ni tumwe mu dukoresho umwana wiga mu mashuri abanza akunze gukoresha igihe ari kwiga.

Ibikoresho bitandukanye bakoreshaga kera, harimo ibitebo bikozwe mu biti, isuka ikozez ukundi kuntu, imihoro ndetse harimo n'igitiyo n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu bindi.

Inyubako nini abanyeshuri biga mu mashuri abanza bigamo. N'amashuri aba akiri matoya, aho abanyeshuri baba biga, bakiga amasomo y'imibare, ikinyarwanda, imibanire ndetse n'irindi somo rimwe.

Mu mashuri abanza akenshi iyo bagiye kubanza kwiga bagira ibikoresho bifashisha mu kwiga, urugero biga umubare icyenda ndetse kandi bakiga utubogisi turimo ibintu bimeze nk'utubiye.

Inyubako nziza, yubakishije amatafari, hasi ikaba ifite amabuye, ikaba kandi ifite inzugi zisa n'umukara, ni inyubako nziza, itangirwamo serivisi zuburezi, kubana biga mu mashuri abanza.

Ikigo cy'amashuri abanza; kigaragaza ko iyo umwana wize amashuri abanza aba afite ubwenge cyane cyane iyo agize uruhare mu masomo ye akiri matoya kuko amenya ubwenge n'iyogeze mashuri yisumbuye.

Mu mashuri abanza babanza kwigamo ibice by'inzu, amadirishya, urugi, ibikuta, ndetse n'ibisakaje iyo nzu nk'amabati.

Abana batoya bapfukamye ndetse bakaba bari no kwandika ku kibaho, bapfukamishijwe kubera icyaha bakoze mu ishuri ndetse kandi bakaba bari guhanwa.

Abanyeshuri benshi bicaye mu cyumba bahugurirwamo ndetse kandi bicaye ku ntebe bambaye impuzankano z'ikigo cyabo, imbere yabo hari umugabo uri kubigisha.

Icyapa gifatishije k'unzu kigaragaza ibikoresho byo muri laboratwari abanyeshuri bigira muri segonderi bakoresha, harimo ishinge, amasaha ndetse kandi harimo ibikoresho byose bijobana by'ikoranabuhanga.

Abana b'abanyeshuri umwe abarimo hagati mu kubafasha gusobanukirwa amasomo bize. Ni abana biga mu kigo cya Nyagatare cya segonderi, bakaba bari gukurikira mugenzi wabo ari kubafasha.

Abanyeshuri benshi bicaye bambaye impuzankano z'ishuri bicaye munsi y'ikigo kandi bari kumva icyo bari kwigishwa n'umwarimu w'umugore afite agapapuro mu ntoki ari kwifashisha abigisha.

Icyumba kinini gihuriwemo n'abantu benshi ariko bakaba ari abanyeshuri bakiri batoya biga mu mashuri yisumbuye kandi bagize abashyitsi harimo n'abazungu bafite uruhu rutukura.

Abanyeshuri bateraniye hamwe ndetse bakaba bari kumwe n'abarimu babo babigisha, imbere yaho hari umutaka ndetse kandi bicaye imbere y'abayobozi, bari kubayobora bakaba bari kubigisha ndetse kandi harimo n'umuzungu.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa bakaba bari mu cyumba kimwe, ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye muri segonderi ndetse kandi bakaba bateraniye ahantu hamwe bagiye kwigishwa ku bigendanye n'uburezi bwabo.

Umunyeshuri ufite mikorophone, ari imbere y'abandi banyeshuri, ndetse bambaye impuzankano z'ishuri, uretse abarimu, bambaye n'imipira y'ubururu kandi bicaye munsi y'ibiti bari kubwirwa ibigendanye n'amasomo.

Abagabo babiri bambaye amajiri ndetse harimo hagati umugabo ufite agakayi ndetse wambaye n'ingofero. Bakaba bari ku kigo cy'amashuri cya segonderi, bakaba hari ibintu bari kwitegereza bashaka kuzana aho.

Abanyeshuri bicaye ndetse harimo abakobwa n'abasore bakiri mu bwangavu n'ubugimbi, kandi imbere yabo harimo umugore wambaye ipantaro uri kubigisha ibyerekeranye n'uburezi.

Imbaga y'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri ry'ikigo cyabo ndetse kandi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari umugabo uri kubigisha, ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri, ikake ndetse n'ishati y'umweru. Bakaba bari hafi mu bukarabiro, bari gukaraba amazi meza ndetse hafi yabo hari indabo nziza n'igiti kinini.

Abana bambaye imyenda y'ishuri ndetse bakaba bambaye n'udupfukamunwa, bicaye ku ntebe ndetse bafite icyuma bya mudasobwa biri ku meza, bakaba bari gukandaho.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ubushakashatsi bakaba bari kwegeranya imigozi bacomeka ndetse banacamako ni abanyeshuri biga mu mwaka w'amashuri yisumbuye ndetse kandi bakaba bambaye impuzankano zisa.

Abana bari kwiga umwe ari gusobanura undi, ni imibare bari kwiga kuko bafite za karikatirise ndetse abandi bari kwigana no mu matsinda, umwe akandika ibyo yumvise.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bari kwiga bamwe bari kwandika abandi ntabwo bakurikiye, inyuma yabo hari icyapa ndetse n'ikibaho cyanditseho amwe mu masomo bagenda bakoresha mu kwiga.

Icyumba cyiza gishashagirana kirimo ubwiza butangaje cyifashishwa n'abanyeshuri biga muri segonderi aho baza bakiga ibigendanye na mudasobwa kugira ngo babashe kuba babimenya neza.

Abanyeshuri bicaye mu ntebe ndetse kandi bambaye impuzankano z'ishuri ,harimo uri kwandika kuko afite ikaramu ndetse n'ikayi undi arakurikiye yifashe neza, kandi yiteguye gushyira mu bikorwa ibyori ari kwigishwa.

Ikigo kinini cyubatse mu buryo bw'igorofa, kandi kiba kigwamo n'abanyeshuri bo muri segonderi. Haba hari inyubako nziza kuko baba bagirango bagabanye ubucukike buba mu mashuri.

Abanyeshuri bari kwifotoza ifoto, harimo abicaye hasi abahagaze ndetse kandi bakaba bari munsi y'igiti, bishimye barimo baraseka ndetse kandi harimo n'abatabyitayeho.

Abanyeshuri benshi bicaye munsi y'ibiti, kandi harimo abambaye impuzankano z'umutuku ndetse n'umweru n'umuhondo, bari kwigishwa ibigendanye n'imyigire cyangwa se uburezi.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo cyane cyane urubyiruko. Ni abasore ni abakobwa kandi ni abanyeshuri ndetse kandi bari guhabwa inyigisho cyane. Umuntu uri kuzibaha ni umugabo uri imbere kandi hari n'abari mu ihema ryubatse.

Abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari mu cyumba kimwe bahuriyemo ,bari kwandika bambaye n'udupfukamunwa, bari mu ishuri ndetse bakaba biga muri kaminuza.

Ahantu haparitse amagare anyungwaho n'abantu bagiye kwiga muri kaminuza cyangwa se bakajya kwiga mu mashuri y'imyuga, akenshi banyonga amagare kugira ngo bagereyo vuba.

Ishyamba rinini, rikaba ririmo inyamaswa nyinshi. Iryo shyamba ririmo rirashya, inyamaswa zimwe zagize ubwoba, zirashaka kuba zahunga, zikava mu nzira zikiruka.

Inzu ngari nini cyane yubatswe mu buryo bw'amagorofa kandi ikaba itangirwamo serivisi z'uburezi, ni ho abanyeshuri bigira, hanze yaho hari ubusitani bwiza.

Ibintu bimeze nk'ibibumbyi bituruka ku ibumba, bimeze nk'inkono, ibikoresho by'inkono cyangwa se ibipfundikizo by'inkono. Bikozwe mu buryo bifite utwenge twiza kandi bishobora gukoreshwa bishyirwamo indabo.

Mu byo abantu bagenda biga bigiramo no guhanga udushya ndetse abenshi bakagenda bamurika ibyo barangije kwiga bakuze, n'intebe z'ubuhanga zifite ubuhanga buhanitse zagiye zikorwa n'abanyeshuri barangije kwiga.

Ishuri rya kaminuza ni rimwe mu bituma abanyeshuri bagira imyigire myiza kandi ihambaye, aho iyo urangije kwiga ushobora kujya mu ishami rishinzwe na bizinesi ukaba wariyobora. Bitewe n'icyo wize muri kaminuza cyangwa n'ibindi bijyanye n'imyuga, ukaba washobora no kubaza ikintu.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi, bakaba bari mu cyumba kimwe cyabateranije. Biga muri kaminuza, bari kwandika imbere yabo hari umwarimu uri kubigisha ndetse kandi harimo abakobwa basutse n'abasore bakuze bafite ubwanwa.

Ubusitani bwiza ndetse hakaba hari n'akantu gashyirwamo imyanda kandi hari inyubako ndende ikoreshwa mu kwiga, igihe abanyeshuri bari kwiga, ubusitani bufite ibiti birebire, bikuru umuyaga, mu gihe abanyeshuri bari mu masomo.

Abanyeshuri bakuze, harimo abagore abakobwa n'abagabo, bakaba bari mu ishuri rya kaminuza, bafite za mudasobwa bigiraho ndetse imbere yabo hari umwarimu kubigisha ya porojegise ibyo bari kwiga, ntiyirirwa yandika n'ikaramu cyangwa se ingwa.

Intebe ndende ndetse kandi n'intebe yakozwe ikabazwa mu biti ndetse ikaba iri kwifashishwa mu kwicara abantu bagiye batandukanye bakayicaraho cyane cyane mu tubari n'ahandi.

Abanyeshuri bari mu ishuri bafite uburyo bigamo, barabaporojegitera, imbere bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, ubundi bakigira ku ikoranabuhanga bari kwandika abandi barakurikiye.